Siporo ni nziza ku buzima bwacu kuturinda indwara n'ibindi bitandukanye ariko gerageza ukora siporo ufite amazi iruhande rwawe n'ibindi byinshi kugirango wirinde ingaruka zavamo nko kugira umunaniro cyangwa ibindi byinshi cyane.